Icyapa cyerekana abantu bamamaza ubwishingizi bwo ku byago ibyo aribyo byose haba ku mitungo ndetse no ku buzima bw'umuntu aho wishyura ndetse bakaza kukwereka uburyo bwo guhabwa ibyo wangirijwe.

ikigo gikora ubwishingizi kikaba cyitwa purayimu bitubwira ko kandi ugomba kurinda ejo hawe hazaza ugomba kuharinda uyu munsi bityo ukiteganyiriza kandi idufasha mu kwiteganyiriza ahari hose haba ku mitungo ndetse no ku buzima bwa muntu.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota ihagaze ahantu hamwe ndetse ikaba isa umweru iparitse ahongaho kugira ngo abantu bazikeneye bazikodeshe cyangwa se bazigurishe ndetse hakaba hari n'izindi nkazo byegeranye.

Imodoka y'umweru iri mu bwoko bwa suzuki yo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani, ikaba iri kugurishwa ndetse igiciro cyayo kikaba ari miliyoni cumi n'umunani z'amanyarwanda. Iyo modoka isa umweru kandi ihagaze ahantu iparitse, hakaba hari amatara y'umweru ndetse n'ay'umuhondo ayifasha kureba imbere.

Igiceri cy'amafaranga y'u Rwanda cy'amafaranga icumi ,aho kiriho igitoki ndetse kikaba cyanditseho amagambo akurikira ati banki nkuru y'u Rwanda ,ndetse kikaba cyarakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda.

Urugi ruriho inka, rushushanyijeho inka ndetse ikaba rusobanuye ko ari uruganda rw'i nyanza rukora ibituruka ku mata byose, harimo amata y'ikivuguto cyangwag se inshyushyu, hakaba harimo n'andi aryohera cyangwa se bitewe n'ingano yayo ushaka. Akaba ari mu kajerekani karindwi cyangwa se muri ritiro eshatu.

Uburyo bw'ikoranabuhanga, bukoreshwa bishyura cyangwa se bishyurwa, kuri serivisi bahawe cyangwa se ku kiguzi baba batanze, kuri enterinete runge runaka.

Uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga aho uhitamo uburyo ukoresha harimo gukoresha ikarita umuyoboro w'itumanaho cyangwa se banki kugira ngo amafaranga abone kugera ku ugiye kwiyishyura.

Umuntu ufashe amafaranga mu ntoki aho bakunze kwita amadolari akoreshwa mu gihugu cy' Amerika ndetse akaba ariyo yamamaye ku isi hose akaba ariyo akoreshwa cyane kurusha ubundi bwoko bwose bw'amafaranga, aha ngaha hari idolari rimwe mu madolari makumyabiri n'andi menshi atandukanye.

Uru n'urutonde rw'amafaranga yo mu bindi bihugu ndetse amafaranga akoreshwa cyane cyane m'u Rwanda, aho bari kwerekana uko ari kugurishwa cyangwa se uko ari kugura bitewe n'uko ubishaka, ndetse bikaba bituma umuntu wese ufite amafaranga y'abamanyamahanga abasha kubona ayo mu gihugu cyacu.

Iki ni ikinyabiziga kiri mu muhanda cya tagisi gitwara abantu batarenze cumi n'umunani, ikaba iri mu muhanda mwiza wa kaburimbo ndetse uboneye imodoka, harimo ibinyabiziga byinshi ndetse n'amatara yo mu muhanda ayifasha gutambuka.

Intebe n'ameza, biri mu busitani bw'imwe mu nzu ziri ahantu hatuje ndetse aha niho umuryango usabanira ndetse ukanishimana n'inshuti, igihe habayeho gusurana cyangwa se n'ibindi birori bidasanzwe runaka.

Isoko ry'ibiribwa ritubatse ririmo uruva n'uruza rw'abantu biganjemo abagore abacuruzi ndetse n'abaje guhaha ibiribwa birimo ibitoki, amateke, karoti ndetse n'imbuto nk'imineke n'ibindi bitandukanye.

Hirya no hino ugenda usanga hari amasoko atandukanye kandi acuruza ibicuruzwa bitandukanye, ariko amenshi murayo masoko usanga ahuriyeho n'uko abacuruza ibintu bijyanye n'imyenda cyangwa se imyambaro y'abantu bagiye batandukanye. Ayo masoko yose ugasanga ari ingirakamaro cyane mu iterambere ry'umuturage ukamufasha kwiteraza imbere mu buryo bumwe kandi akanamufasha no kubaho neza mu buryo bw'imyambarire.

Abantu bakoresha ikoranabuhanga mu gutanga serivisi zijyanye n'ubwishingizi haba ubw'imitungo itimukanwa cyangwa se ubw'ubuzima bityo bigatuma umuntu igihe ahuye n'ibyago atagorwa no kwishyura cyangwa se no kwifashisha amafaranga ye atarateganyijwe .

Urujya n'uruza rw'abantu aho baza muri banki bategereje ko bahabwa ubufasha ndetse bakanabona n'inguzanyo igihe bazikeneye, hakaba hari n'abandi baje kubitsa cyangwa se kubikuza, bigatuma rero buri muntu wese abona amafaranga igihe ayakeneye, ndetse bikamuteza imbere bikamufasha kwiteza imbere no gukora iyindi mirimo inyuranye.

Inguzanyo zitangwa n'ikigo cyangwa se banki yitwa ekwti ikaba iri kugira ngo niba uhembwa amafaranga cyangwa se igishoro ubona kikaba kidahagije, tubwira uyu munsi tugufasha itanga inguzanyo rero bigatuma umuntu abasha kwiteza imbere, no gukora utundi tuzi cyangwa se no gushora imari bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu ndetse rifasha abandi mu buryo bwo kubitsa no kubikuza, aho bari gusaba kubiyungaho kugira ngo mukore ikipe imwe ndetse izafashe n'abandi kugira ibyiza igeraho mu buryo bwo kubitsa no kubikura, aha hakaba hari umugore w'imyenda y'umukara n'umweru n'umugabo w'imyenda y'ubururu.

Inzu itangirwamo inguzanyo ndetse igafasha abantu mu kwiteza imbere mu bikorwa bitandukanye, haba mu kugura ibikoresho bikenewe nk'imodoka cyangwa se ibikoresho byo mu nzu cyangwa se no kugura inzu nyirizina, cyangwa n'ubuzima bwabo bwite.

Uyu ni umugore ubona usa nkukuze umurebye neza ku maso he harakeye cyane, yambaye amadarubindi ndetse n'ikote ry'umukara n'ishati y'ubururu umusatsi we urasokoje.

Inzu bagurisha cyangwa se bakodesha, aho batweretse ubwogero bwayo, ndetse niba ukeneye andi makuru cyangwa se ubundi busobanuro, wabandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga bakoresha, cyangwa se ukoresheje telefone yabo igendanwa.

Iyi ni inzu abantu bagurisha cyangwa se bakodesha kugirango ngo bashyiremo ibikorwa bitandukanye runaka harimo zo guturamo zo guturamo ndetse n'ibiro kugira ngo bakomezekore akazi kabo nta nkomyi.

Inzu igurishwa iherereye mu gace kamwe runaka, ikaba ifite imigereko ibiri, ikaba igereretse inshuro ebyiri, ni umuturirwa w'inyubako ebyiri ndetse ukaba ufite amabara y'umuhondo, umweru ndetse n'umutuku, ukaba imbere yawo hari uturabo twiza ndetse iri mu gipangu.

Inzu yo gukodeshwa irimo ibyangombwa byose haririmo intebe n'ameza ndetse na televiziyo, aho wishyura ibihumbi magana atatu by'amanyarwanda cyangwa se amadorari magana magana abiri na cumi na atanu, akaba ariko ku kwezi kumwe ikaba iri i Kigali mu Rwanda.

Mu isoko aho igizwe n'inyubako nyinshi zigerekeranye, ndetse hakaba hari imyenda myinshi imanitse, n'urujya n'uruza rw'abantu baje guhaha, ndetse hakaba harimo n'abacuruzi, hari amakanzu menshi, ndetse akaba iyo nyubako isa umweru.

Aho bagurishiriza intebe zo mu ruganiriro ndetse n'amezaza byaho bigezweho bifasha umuntu wese kugira inzu isa neza ndetse agahorana ibyishimo n'akanyamuneza yareba mu nzu ye ibyishimo bikamusanga rwose .

Aha ni mu isoko aho umuguzi n'umucuruzi bahurira kugira ngo baganire ku bicuruzwa runaka cyangwa se ku mafaranga umwe akeneye mu gihe undi aje kureba ibicuruzwa we akeneye agatanga amafaranga ndetse bakamuha ibyo yifuza ngo undi ubuzima bugakomeza.

Icyapa rusange cyashyizweho na leta ndetse gifasha abantu kubabwiriza ndetse no kwibutsa kwizigamira mpaka ejo, ukazaba umeze neza mu myaka iri imbere cyangwa se mu myaka yo gusaza kwawe.

Abaturage bari mu nama cyangwa se mu mbwirwaruhame; aho bari kumva ndetse bagasobanurirwa akamaro ka ejo heza; aho witeganyiriza bikazagufasha mu zabukuru zawe bigatuma ugira amasaziro meza.

Icyapa kimenyesha n'icyapa cyerekana ko hari ikigo cy'amashuri naho abanyamaguru bambukira; icyapa cyerekana nyarugenge pashoni pulaza, n'aho icyapa cy'amashuri kigarukira.

Umukobwa ukora mu iduka cyangwa se mu isoko ryihagazeho aho ari kugenda asimbuza ibyagurishijwe ibindi bicuruzwa bishya, ndetse akabishyira mu dutanda twabugenewe aho buri muntu azabona azayibona bimworoheye, ndetse ntazagire ikibazo na kimwe ahura nacyo mu gihe aje guhaha.

Isoko ryo kundi rwego rwo hejuru ryiyubashye aho usangamo ibicuruzwa ibyo aribyo byose haba ibyo kurya, ibyo guteka se cyangwa ibyo gukoresha mu buzima busanzwe, ndetse n'imyenda uka wayisanga aha ngaha, umuntu afata icyo ashatse ndetse akajya kwishyura aho yinjiriye cyangwa se ahabugenewe bitewe n'ibyo yafashe uko bingana n'amafaranga bi bigura.